Akabati kanini karimo utwumba tubiri n'utwumba tubiri hejuru utwumba two hasi turimo imiti y'amoko atandukanye harimo n'uducupa twinshi no hejuru hakaba ari ibicupa binini by'amoko atandukanye.

Ishuri rya raboratwari , ishuri ryigirwamo gukora purakitisi cyangwa se umukoro runaka ku bintu bitandukanye .Akaba ari ishuri rifite amakaro y'umweru ndetse n'inkuta zifite zubakishijwe amatafari y'umuhondo. Ubu akaba ari inzu ikoreshwa n'abanyeshuri kugira ngo ibyo bakora babashe kubishira mu bikorwa.

Inzu nini cyane iri ku muhanda, ifite ibigega bibiri by'umukara iburyo n'ibumoso. Na none ikaba ari inzu ikorotiriye kugeza ku muhanda, aho rigori yayo ikorotiriwe n'amabuye y'amakoro aturuka mu majyaruguru, kuko ariho ibirunga biyaruka biba biri.

icyapa cyangwa se banderore ya gurupe sikolere Kampanga, yo gushishikariza abanyeshuri n'abarezi muri Kampanga kugira uruhare mu muco w'ubutore nyayarwanda, akaba afite ingingo eshatu, ingingo ya mbere amahame y'intore, ingingo ya kabiri indangagaciro duteza imbere, ingingo ya gatatu kirazira tugomba kwirinda.

Ibikinisho cyangwa se ibyicungo abana bajyaho, kugira ngo igihe cyabo cya bureke bagikoreshe bishimye, ibi bikaba bikunze kuba ahantu hahurira abana benshi, urugero ku rusengero se, cyane cyane mu bigo by'amashuri ya garidiyene, ni ho bikunze kuba biri cyangwa se ku bindi bibuga by'imyidagaduro hakubiyemo n'iy'abana.

Igifaburikano cy'icyuma gitwara, giterura ibintu n'imizigo iremereye, akaba ari igishushanyo gikozwe mu gikarito ndetse umuntu wagikoze akaba yarashakaga kwerekana uko ikintu gikora n'uko kigenda giterura ibintu mu buryo bugaragarira buri wese. Bakaba baragikoze kugira ngo bigishe ingero runaka uko gikora.

Abantu batatu umuntu umwe ari kwesitala ibyuma yambaye ga. Undi arimo arabipima akoresheje icyuma kibipima. Ubu ni uburyo bwifashishwa n'abatekinisiye mbere yo kwesitara ahantu kugira ngo barebe niba ibintu bagiye gukoresha biri gukora neza.

Atoriye cyangwa se agakinjiro, akaba ari ahantu hakorererwa ibikoresho biba byaraturutse mu mbaho. Muri make bakaba babaza. Bakaba bambaye udupira dusa n'icyatsi hejuru, kandi akaba ari abagabo.

Abantu bakora mu garaje, bambaye iniforume y'ubururu. Amashati y'ubururu n'amapantaro y'ubururu. Bari kumwe n'umuntu utambaye iniforume w'umugabo ufite umupira w'igitaka n'ipantaro y'umukara wijimye. Bari kureba imodoka iri mu igaraje. Hariho undi mukanishi uri gukanika. Iyo modoka yazamuwe mu birere ifashwe n'byuyuma.

Umuganga w'umukobwa wambaye linete z'akazi, akaba arimo aragerageza imiti, awukura mu pombo awujyana mu kirahuri cyabugenewe, akaba yambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'ubururu, afite amapensi abiri ari kugenda akaraga ipensi, imwe ifashwe ku kintu cy'itabure gifite amaguru y'umukara, ndetse gifite n'ako kwicaraho gasa n'umutuku.

Abanyeshuri barimo bariga ariko na none bari kurebera muri mikorosikopi kugira ngo barebe utuntu dutoya tutaboneshwa amaso. Ubu akaba ari uburyo bajya muri laboratware kugira ngo barebe uko ibyo biga ari ukuri na bo babishyire mu ngiro.

Abagabo babiri bambaye ibisurubeti by'ubururu, abagabo bambaye inkweto za kamambiri bakaba barimo bakanika ikimashini cyapfuye, bakaba mu buryo bukoreshwa n'abantu bari baganje kugira ngo babashe gukora ikintu kiba cyapfuye.

Abanyeshuri bari kwigira muri laboratwari, ifite igikuta gifite amakaro y'umweru, mwarimu yambaye itaburiya y'umweru n' ipantaro y'umukara, mu gihe abanyeshuri bari kwandika mu makaye yabo bambaye amataburiya y'umweru.

Abanyeshuri b'abakobwa. Bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize, Aho bagiye kuri mashine ,kugira ngo bayikoreshe barebe uburyo bukoreshwa n'amashuri. Kugira ngo bajye bashyira ibyo biga mu bikorwa.

Ahantu hari ibyicungo byinshi by'abana ibintu ibikoresho abana bakoresha bidagadura hakubiyemo ibiri mu tuzu ndetse n'ibiri hanze kandi bikaba biri muri jaridi ahantu hari ibiti hateye n'ibyatsi byiza.

Abanyeshuri bari muri laboratwari bagiye kwiga, bari kwigira ku meza asa nk'ubururu, bafite ibikweshoniya imbere yabo, bambaye iniforome y'amashati y'umweru na karuvati z'ubururu, imbere yabo hariho mwarimu urimo kubigisha.